Hano hari abaturage bari bitabiriye inama, imbere yaho hahagaze abamama basa nkaho ari abayobozi bafite envelope mu ntoki, bari gufata amafoto kandi barishimye.

Hano hari kugaragara abantu bicaye hamwe mu cyumba cy'uruganiriro imbere yabo hateretse amacupa y'amazi abandi muri bo bafite za mudasobwa umwe muri bo afite indangururamajwi bigaragara ko ariwe uri gutanga ibitekerezo.

Hano ni abanyeshuri bicaye hamwe bose mu cyumba cy'ishuri, abenshi muri bo bafite mudasobwa imbere yabo. Imbere yabo hahagaze umuyobozi, bose niwe bahanze amaso biragaragara ko ariwe uri kubigisha.

Hano haragaragara igikorwa remezo cy'amashanyarazi hari ipoto rirerire cyane ririho amasinga ajya mu byerekezo bitandukanye aganisha amashanyarazi mu ngo zigiye zitandukanye.

Hano hari ipoto ry'amashanyarazi, hariho amasinga menshi ari mu byerekezo bitandukanye, hari ibijya hasi, ibijya hejuru, ibijya hirya ndetse no hino, bigaragaza ko biri gutanga amashanyarazi ku hantu henshi hatandukanye.

Hano hashinze ipoto rinini, rigiye ririho amasinga y'amashanyarazi, agiye ajya mu byerekezo bigiye bitandukanye, agana mu mazu aberamo ibikorwa bitandukanye remezo, ubucuruzi ndetse n'ibindi.

Hano mu mwanya uberamo ibikorwaremezo by'ubuvuzi, hari umugore utwaye ibipapuro mu ntoki uri kugenda ugana imbere aho za nyubako ziri.

Hano ni mu muhanda nyabagendwa harimo umuporisi uhagaze n'amaguru uko bigaragara ari guhagarika umumotari uri kugenda kuri moto ye kugirango agire ibyo amubaza.

Hano hari kugaragara igikoresho kizwi ku izina rya kizimyamwoto gikoreshwa mu gukumira inkongi y'umuriro yagaragaye ahantu runaka, kugira ngo ikwirakwizwa ry'umuriro rigiye gukomeza rigera ahantu henshi.

Iyi ni inzira y'abanyamaguru, harimo abari kuza ndetse n'abari kugenda, iruhande rwaho hari umupolisi wegamiye ku ipoto, hirya y'aho hari ishyamba.

Hano ni mu nzira nyabagendwa, harimo abanyamaguru ndetse n'abapolisi bahagazemo, iruhande rw'aho hari ibikorwa, hari amazu aberamo ibikorwa remezo bitandukanye.

Hano ni icyumba kirimo ahantu habereye ibikorwa byo gutora, harimo abantu babiri bicaye aribo bari kugenda basoma banabara amajwi yanditse ku dupapuro, iruhande rwabo hari undi muntu uhagaze.

Hano ni abayobozi bicaye mu cyumba cy'uruganiriro bayobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika, iruhande rwe hicaye madamu Jeannette Kagame, iruhande rwabo hagiye hari abandi bayobozi batandukanye.

Hano hari icyapa cyanditseho ngo:" Twitabire amatora duhitemo neza." Hejuru yacyo yanditseho ngo:" Repubulika y'u Rwanda, Komisiyo y'igihugu y'amatora." Biragaragara ko hari abantu bari kwinjira ndetse banasohoka, ahantu runaka habereye imirimo itandukanye.

Hano ni mu muhanda nyabagendwa harimo abamotari, ndetse n'izindi modoka zigiye ziparitse ku ruhande, iruhande rwabo hari umuntu uhagaze ufite akamashini, bigaragara ko ari umusoresha.

Uyu muhanda nyabagendwa uri kugendamo abantu! abamotari bari gukora akazi ko gutwara abagenzi iruhande rwaho hari ibikuta byanditseho ibintu bigaragara ko bari kwamamaza ndetse n'ibiti bigiye biteye i ruhande rwabyo.

Hano hari kugaragara umuhanda nyabagendwa urimo imodoka ndetse n'abakora akazi kazwi nko gutwara abagenzi hifashishijwe amamoto, bari kujya mu byerekezo bitandukanye bakora akazi kabo ka buri munsi, iruhande rw'umuhanda hari ibiti biteye.

Hano ni mu muhanda w'abanyamaguru iruhande rw'aho haparitse imodoka zitandukanye ni iz'umweru n'akandi kamodoka gato bigaragara ko kakorewe mu Rwanda, iruhande rwazo hari abanyamaguru.

Hano ni mu muhanda nyabagendwa, harimo imodoka zikoreye imbaho iruhande rwaho hari abamotari nabo barigukora akazi kabo ka buri munsi ko gutwara abagenzi ndetse n'izindi modoka ziparitse ku ruhande. Hirya y'umuhanda hari inzu ziberamo ibikorwa by'ubucuruzi.

Hano ni mu muhanda nyabagendwa harimo imodoka zimwe zikorera imizigo zirapakiye ibintu bimeze nk'amakara iruhande rwaho hari abagenzi bari n'amaguru.

Iki ni icyapa gifite amabara y'umweru umukara ndetse n'umutuku, gikunze gukoreshwa n'inzego za polisi bakorera mu muhanda kugira ngo babashe kuburira abantu ibyo bagomba gukora n'ibyo batagomba gukora mu gihe bari mu muhanda.

Hano ni ifoto yafashwe ahantu runaka, ni agace gatuwemo n'abantu benshi, karimo n'amapoto hariho insinga zitwara amashanyarazi, iruhande rw'aho hari ikigega cy'amazi, hakaba n'agashusho kagaragaza ko ari ku kibuga cy'indege.

Hano mu isangano ry'umuhanda iruhande rwaho hari imodoka ndetse na moto n'ibiti biteye impande zawo hakaba n'icyapa cyerekana agace runaka umuntu ashobora kujyamo.

Hano hari kugaragara mu muhanda w'ibitaka, urimo kugendamo imodoka, iruhande rwaho hari amazu atuwemo, amazu y'abaturage, hejuru y'aho hari amapoto agiye ariho amasinga y'amashanyarazi.

Hano hari ibikorwaremezo by'umuhanda, harimo imodoka ziri kugendamo ndetse n'abanyamaguru. Iruhande rwaho hari inzu ziberamo ibikorwa bitandukanye, n'abanyamaguru bahagaze iruhande rwayo.

Hano hari kugaragara ibikorwa remezo by'ubwubatsi bw'umuhanda, harimo kugendamo imodoka ndetse n'abari kugenda n'amaguru, iruhande rwaho hari amatara ndetse n'uturima duteye n'indabo.

Hano hari kugaragara ibikorwa remezo by'umuhanda byubatse ku buryo busukiranyije, hari iyubakiye hejuru ndetse n'iyubakiye hasi kandi yose inyurwamo n'abagenzi, yaba iy'abanyamaguru ndetse n'imodoka muri rusange.